Abantu bacunga umutekano bita abasirikare, bambara imyenda ifite amabara atandukanye harimo, ay'acyatsi harimo ay'umukara, ku mashati yabo hariho ikirangantego kerekana ikintu bakora kiriho ibendera ry'u Rwanda, ikindi kandi mu nda biziritse umukandara.

Abantu bita abapolisi abasirikare, bambara imyenda zifite amabara atandukanye, bambara ku mitwe yabo ingofero, bambara inkweto zisa n'umukara, inyuma yabo hari icyapa, bahagaze mu buryo bumeze neza cyane, ikindi kandi bacunga umutekano.

Abantu bacunga umutekano bambara imyenda ifite amabara atandukanye, harimo ay'umukara, harimo icyatsi harimo n'ay'umuhondo ,ikindi kandi, baba bafite icyapa kigaragaza icyo bari cyo kiriho ibendera ry'u Rwanda, baheka ibikapu mu mugongo, ikndi kandi ahantu bacunga umutekano haba hameze neza cyane.

Abantu bita abasirikare ,bambara imyenda ifite amabara atandukanye ,bambara inkweto zisa n'umukara, ku mitwe kandi haba hariho kasike ku munwa wabo bambara udupfukamunwa, ikindi kandi ku kuboko hariho icyapa kigaragaza icyo bari cyo cy'ibendera ry'u Rwanda rifite amabara atandukanye :ubururu, asa n'icyatsi n'umuhondo.

Umupolisi ucunga umutekano w'abantu, yambara imyenda isa n'umukara, yicara mu ntebe isa n'umukara, ku ishati ye hariho ikirangantego cy'u Rwanda, akamaro k'umupolisi ni keza, kuko acunga umutekano w'abantu nta cyahungabanya umuntu yamucungiye umutekano.

Abantu b'urujya n'uruza bicara bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku andi asa n'umukara, imbere yabo hari umuntu uhagaze bita umupolisi wambaye imyenda igaragaza icyo ari cyo, mu ntoki ze harimo mikoro, inyuma y'uwo mupolisi hari intebe zimeze neza cyane.

Umurima urimo moto imbere ifite amahembe inyuma ifite icyuma yahiye. Hirya y'iyo moto hari ibikoresho bikoreshwa mu rugo. Ibasi bayifuriramo, bashiramo amasahani isa n'ubururu. Ijerekani bashiramo amazi cyangwa inzoga isa n'umuhondo.

Abantu bita abasirikare, abandi bakabita abadaso bambara imyenda itandukanye imwe isa n'icyatsi, indi isa n'umukara n'icyatsi, ku mitwe yabo bambara ingofero ku kuboko hariho icyapa kigaragaza icyo baricyo cy' ibendera ry'u Rwanda ,imbere yabo hari igikoresho bita ameza kiriho igitabo, hari abantu bahagaze bafatanye mu ntoki.

Abantu benshi cyane, bambara imyenda zifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, hagati yabo bantu hari umuntu uhagaze imbere y'abo bantu, hari ameza baterekaho imashini, hari n'icupa ribamo amazi banywa.

Abantu b'ingeri zose bicara ku ntebe zitandukanye bafite imyenda itandukanye harimo abapolisi bacunga umutekano, ikindi kandi imyenda ifite amabara atandukanye ay'ubururu, ay'umukara, ay'umutuku n'ibindi. Ikindi kandi bari kwandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama imbere yabo hateretse n'amazi bari kunywa.

Abantu bicara ku ntebe zitandukanye zisa n'umweru, bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu n'umutuku, bafite amakayi mu ntoki, abandi bafite terefoni, bambara n'amasaha ku kuboko.

Urujya n'uruza rw' abantu bicaye ku ntebe bambara imyenda zitandukanye harimo: izisa n' ubururu izindi zisa n' umuhondo ikindi kandi imbere yabo hari umuntu wambaye amataratara, afite mikoro yambara n' isaha afite ikintu ari kubabwira bategeye amatwi.

Abantu b'urujya n'uruza bicara ku ntebe zitandukanye, bambara imyenda ifite amabarara atandukanye harimo asa n'umukara, asa n'umweru, asa n'umutuku, icyindi kandi hari abantu bafite amakayi bari kwandika, imbere ya bo hari amacupa arimo amazi baba banywa.

Abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara n'umutuku bafite amakaye mu ntoki, bari no kwandika bafite amakaramu bigaragarako bari mu nama, bari kwandika ikiri kuvugirwa aho mu nama bari.

Abantu bicara ku ntebe zitandukanye, bambara imyenda zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru andi asa n'icyats, n'umukara. Hari igikoresho abantu bifashisha bandikaho ibintu bitandukanye, hari n'umuntu uhagaze.

Abantu bicara ku ntebe, bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umukara, imbere yabo hari igikoresho bita ameza, giteretseho amazi banywa, giteretseho mikoro, ingofero, ikindi kandi hari umuntu ku maso y'iwe hariho rineti, afite mikoro ari kuvuga, undi afite ikaramu mu ntoki z'iwe.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu ntebe zitandukanye, bambaye imyenda y'amabara atandukanye asa n'icyatsi andi asa n'ubururu n'umutuku n'umweru. Umuntu uhagaze ufite mikoro ari kuvuga, abandi bafite amakaramu bari kwandika ibivugirwamo muri iyo nama.

Igikoresho bita isekuru kimeze neza cyane. Ni igikoresho bakora mu biti, ikindi kandi bagikoresha basekuriramo ibintu bitandukanye, isombe, umuceri, n'ibindi bitandukanye by'ibiribwa.

Igikoresho abantu bifashisha bajyana umuntu kwa muganga, iyo adashoboye kwijyana kiba gikozwe mu byatsi, kiba kiriho udukondo bashyiramo ibiti, kuko abantu bashyira ku rutugu, bakamujyana neza, atavunika ntakibazo.

Abantu bafite mu ntoki zabo imirishyo, bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo andi asa n'icyatsi, imbere yabo hari ingoma inyuma yabo bantu hari abantu bari kureba, inyuma yabo bantu hari inzu isakaje ibyatsi.

Ababyinnyi babyina bambara, imigara ku mutwe, bambara mu ijosi ikintu gifite amabara atandukanye, mu ntoki bafite amacumu n' ikindi kibajijwe mu mbaho, gifite amabara y' umukara nandi y' umweru inyuma yabo hari ibiti bimeze neza, babyitagaho kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Abantu bambara imyenda zifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umweru, hagati yabo hari akebo karimo uducupa tubiri dusa n'icyatsi, hari ingoma ababyinnyi bifashisha iyo bari kubyina imbyino za kinyarwanda, barayikoma biba bimeze neza cyane.

Ibigori bimeze neza babyitaho, bashyiraho ifumbire, barabisarura, babishyira ku biti kugira ngo babyanike byume, barabihungurura, bitanga umusaruro, babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi barabibetesha, bivamo ifu yo kunywa.

Abantu bita ababyinnyi bambara imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru. Bafite mu ntoki zabo imirishyo. Inyuma yabo hari ibintu bita ingoma, baba bari gukoma. Bituma imbyino zigenda neza cyane.

Ibikoresho bifashisha bashyiramo ibyo kunywa bitandukanye, inzoga, umusururu n'ibindi. Hirya yabyo hari ibikoresho bita ibirago bicaraho abandi baryamaho. Ikindi kandi hari ibikoresho bita imiheha banywesha.

Zihamirizaga bambaye imishanana ku mitwe zabo, hariho imigara iki kandi mu ntoki zabo bafashemo amacumu, bazigu guhamiriza neza cyane, hirya yabo haringoma n'indabo zimeze neza cyane.

Ikibuga kimeze neza kirimo ababyinnyi bari kubyina bambara imyenda imeze neza mu mutwe bambaye imigara ,mu ntoki bafite ibyo twita amacumu, abandi bambaye imishanana ,abandi biteze udutambaro mu mutwe, inyuma yabo hari abantu bafite ingoma bari gukomanga ,ku maguru yabo hariho amayugi.

Abantu bita intore bambara imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo ,andi asa n'ubururu . Ku mitwe yabo hariho imigara ,mu ntoki bafashemo amacumu ,ikindi kandi baba babyina neza kuko bisusurutsa abantu baba bari kubareba.

Ababyinnyi bambara imyenda bita imikenyero ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo andi asa n'icyatsi, bateze amaboko neza cyane, ku mutwe wabo hari imigara, mu ntoki bafashe amacumu ikindi kandi babyina neza cyane mu mbyino za kinyarwanda.

Ibihingwa abahinzi bahinga babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura, bakabijyana ku isoko. Ikindi kandi bitanga amafaranga, babikoramo uducuma abantu bifashisha bashyiramo ibyo kunywa bitandukanye.

Ibikoresho bifashisha mu gufungura ibyuma by'ibinyabiziga bitandukanye, bifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo ayandi asa n'umukara, ibikoresho bitanga umusaruro kuko umuntu ubikoresha abikuraho amafaranga, ikindi kandi bituma ibinyabiziga ibyuma byavuyemo bidatakara bongera bakabisubizamo.

Ababumbyi babumba inkono barazikorera, bazijyana kuzicuruza, bazibumba mu ibumba. Ni inkono batekamo, ikindi kandi bazitereka ku mashyiga ya kinyarwanda, ibiryo batekamo biraryoha.

Ibikoresho abantu bifashisha， inkoko，agaseke， babikora mu byatsi bita ibikangaga， urusyo barusyaho amasaka，baba bafite n'ingasire，basoresha ibyo baba bari gukora， bitanga ifu iba imeze neza cyane.

Iyugi ni igikoresho ababyinnyi bifashisha babyina bambara ku kuguru, kuko bituma bagendana n'injyana neza, ikindi kandi biba bimeze neza, barikora mu byuma bashyiramo imbere utuntu tujegera, bituma imbyino igendeka neza cyane.

Igikoresho bita ikibindi abantu bifashisha bashyiramo umusururu, ubushera n'ibindi. Hari abantu bambara imyenda bita imikenyero ifite amabara atandukanye, bari kunywa ibintu biri mu kibindi, bafite imiheha mu ntoki zabo.

Abantu bita ababyinnyi bambara imyenda bita imikenyero, mu ntoki hiwe hari icumu ikindi kandi inyuma yiwe hari abantu imbere yabo, hari ingoma bakoma bari kwitegereza bambara imyenda itandukanye ikindi kandi ingoma bayikora mu mpu z'inyamaswa.

Igikoresho abantu bifashisha bakora mu biti, kiba kimeze neza bacyita isekuru kiba gifite umuhini bagisekuriramo ibintu bitandukanye umuceri, ibigori n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye abahinzi baba bahinze.

Umuntu ubyina wambaye imyenda twita imikenyero. Ifite amabara atandukanye, harimo asa n'mweru, andi asa n'icyatsi, n'irindi risa n'ubururu. Hashushanyijemo izuba, atega amaboko ku buryo bumeze neza.

Umuntu wambara imyenda bita imyitero. Afite mu ntoki ze inkoni, hirya ye hari inka imeze neza cyane ifite amahembe, bayitaho kuko itanga umusaruro ushimishije. Barayigurisha, itanga amafaranga, itanga inyama.

Abantu bambara imyenda bita imishanana, ku maguru yabo, hariho amayugi ku mitwe yabo hariho imigara, bateze amaboko bari kubyina, inyuma yabo hari ingoma, inyuma y'izo ngoma hari ibiti bimeze neza.

Ingoma eshatu abantu bifashisha mu mbyino za kinyarwanda, iyo umuntu ari kubyina ingoma nayo ivuga, bituma umuntu abyina neza cyane, ikindi kandi ingoma bazikora mu nyamaswa zitandukanye tubona mu mashyamba, cyangwa mu matungo aboneka mu ngo.

Inkono bavumba mu ibumba iba imeze neza cyane. Bashyiramo ibiryo, bakabiteka, biba biryoshye cyane. Iri hagati y'intebe ebyiri za kinyarwanda babaza mu mbaho, bazicaraho. Ikindi kandi zihagaze ku muco, abandi bicaraho abandi bawuryamaga

Inzu ndangamurage y'urwanda ni inzu nziza yubakishijwe ibyatsi imbere yayo hasize sima y'umutuku ni inzu ibikwamo ibikoresho bya kinyarwandawana.ni inzu ikurura abakiriya kuko abantu baza kuyireba.

Inka eshatu zimeze neza ziri kunywa amazi zifite amahembe ateze neza ku matwi yazo hariho amaherena, ikindi kandi inka ziba nziza kuko zigira umusaruro ushimishije zitanga amafaranga, zitanga inyama abantu barya.

Umuntu uboha ikirago yifashishije ibyatsi byo mu gishanga. Akoresha ubudodo buva ku mufuka. Ikirago kiba cyiza kuko gikorwaho imirimo itandukanye. Bacyicaraho, bacyanikaho, bakiryamaho, hirya ye hari ibase isa n'icyatsi.

Ikibuga kirimo abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru, bambaye imigara ku mitwe bafite amacumu mu ntoki ,bambaye amayugi ku maguru. Inyuma yabo hari inzu yubatse neza isakaje ibyatsi ,imbere y'iyo nzu hari umuntu uri gukoma ingoma.

Ababyinnyi babyina neza cyane, bambara imyenda ifite amabara atandukanye arimo asa n'umutuku, andi asa n'ubururu, andi asa n'umweru, ku mitwe ya bo hariho ubuti bahambiriye, inyuma ya bo hari abantu bari gukoma amashyi, barasusurutsa abantu neza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bambara imyenda itandukanye, bamwe bambara imyenda bita imikenyero, mu ntoki zabo hari inkoko, ikindi kandi imbere yabo hari abantu batatu, bari kunywa mu kibindi, harimo ibyo kunywa bafite mu ntoki zabo ibikoresho bita imiheha.

Abantu bita ababyinnyi, bambara imyenda bita imishanana, bateze amaboko neza cyane, ikindi kandi ku mitwe yabo hariho ibiseke bari kubyina bafite, inyuma yabo hari ingoma abandi bari gukoma amashyi

Ibikoresho bita turune visi ni igikoresho bifashi bakora ibintu biba byapfuye: imodoka, moto, amagare n' ibindi bikoresho; umuntu ugikoresha abagira ngo agikureho umusaruro kuko kimuha amafaranga akoresha ibindi bikorwa.

Igikoresho bifashisha bakata ibyuma gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku ,ayandi asa n'umukara, gitanga umusaruro, kuko umuntu ugikoresha agikuraho amafaranga, ikindi kandi kirambitse ahantu hameze neza cyane.

Amazu yubatse mu buryo bumeze neza, yubakishije amatafari ahiye ,asakaje amabati ameze neza ,afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku ayandi asa n'umukara, inyuma y'ayo mazu hari imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara ayandi asa n'umweru, hari n'icyapa kiyobora abantu kerekana ibintu bikorerwamo.

Amazu yubatse ku buryo bumeze neza, asakaje amabati asize amarangi, asa n'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi asa n'umweru, zikorerwamo imirimo itandukanye, bacururizamo, basengeramo, hirya y'aho hubatse amahema asa n'umweru, haparika n'imodoka.

inzu yubatse mu buryo bugezweho bwubakishije amatafari ahiye ifite amabara atandukanye kamwe gasa n'umuhondo akandi gasa n'umweru isakaje amabati asa n'ubururu umuryango wayo urafunguye ikindi kandi abantu baza gusengeramo abandi bakoreramo inama

Inzu zimeze neza zubatse neza cyane . Zubakishije amatafari ahiye. Zifite amabara atandukanye. Amwe asa n'icyatsi, andi asa n'ubururu. Imbere y'iyo nzu hari umuntu uhagaze imbere. Kuri uwo muntu hari igikarabiro ,ahantu bakarabira intoki.

Urusengero rwubatse neza cyane, rwubakishije amatafari ahiye, rwubatse mu buryo bugezweho, rufite amabara atandukanye, rufite amabara y'icyatsi ayandi y'umweru, ayandi y'umuhondo, imbere y'urwo rusengero haparitse imodoka zisa n'umukara, imbere y'urwo rusengero hari n'indabo zimeze neza cyane.

Inzu yubatse neza cyane, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, ifite amabara atandukanye, isakaje amabati asa n'ubururu, hari abantu bahagaze, ikindi kandi abantu basengeramo, abandi bakoreramo inama.

Inzu yubatse neza cyane, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, ifite inzugi zisa n'icyatsi. Hejuru y'iyo nzu hariho umusaraba. Bahakorera inama, ikindi kandi baranahasengera, bakahakorera ibikorwa bitandukanye.

Amazu yubatse neza asakaje amabati asa n'umutuku, afite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo, afite inzugi zifite amarangi asa n'ubururu, imbere y'ayo mazu hari ibiti, hari n'ibyatsi, hateye n'amapoto ajyana umuriro ahantu hose.

Inzu zubatse neza zubatse mu buryo bugezweho zisakaje amabati asa n'umweru zifite amarange atandukanye amwe asa n'umweru andi asa n'umuhondo. Zifite inzugi zifite amabara atandukanye ikindi kandi zifite icyapa kigaragaza ibikorwa bihakorerwa, imbere yayo hari indabyo zimeze neza cyane abantu baza kuhasengera abandi bakorera inama.

Inzu yubatse neza yubakishiije amatafari ahiye isakaje amabati ashaje, bakoreramo ibintu bigiye bitandukanye: inama, basengeramo ikindi kandi hirya yayo hari ibiti bimeze neza babyitaho, kuko bitanga umusaruro ushimishije babikuramo imbaho zivamo intebe abantu bicaraho.

Wese zubatse neza, isize amarangi atandukanye asa n'umweru andi asa n'umutuku, ikindi kandi ifite imiryango itandukanye, inzugi zisa n'ubururu.

Inzu yubatse mu buryo bumeze neza ishakaje amabati asa n'umutuku, ifite amarange atandukanye, isize amarangi ku nzugi zisa n'icyatsi. Ikindi kandi imbere kuri uwo muryango hari abantu bafite ibikoresho bitandukanye baje aho hantu.

Ikibuga gikikijwe na senyenge, harimo abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku ayandi asa n'umukara, hirya yabo hari imodoka ifite amabara y'umweru hari n'insina abantu bazitaho, bashyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije.

Amazu yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, asize amarangi atandukanye amwe asa n'umuhondo asakaje amabati asa n'umutuku. Imbere y'ayo mazu hari abantu bahagaze abandi bari kubyina abandi bakoma amashyi bakoreramo ibikorwa bitandukanye basengeramo, bakoreramo inama n'ibindi.

Abantu benshi cyane bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo, n'umukara, hari abantu bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye inanasi, hari n'indobo zirimo ibintu bitandukanye, ikindi kandi hari abantu bicaye bateruye abana, hari umuntu uhetse igikoresho bita ipombo bateresha umuti.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa n'umutuku amadirishya yayo asa n'umweru yubatse neza cyane, abantu barahasengera abandi bahakorera inama imbere yayo hari indabyo zimeze neza cyane, hari ibiti babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije, bakoramo intebe, ibitanda abantu baryamaho.

Urusengero rwubatse mu buryo bugezweho, rwubakishije amatafari ahiye, rusakaje amabati asa n'umweru, rufite amabara atandukanye harimo ay' umukara, imbere wayo hari indabyo zimeze neza, ikindi kandi basengeramo banakoreramo inama zitandukanye.

Inzu zubatse neza, zubakishije amatafari ahiye. Zifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara. Zishakaje amabati asa n'umutuku, ikindi kandi, imbere yayo hari ibintu bihanitse bita amasaka. Baba bari kuyanika kugira ngo yume.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, ifite amarangi atandukanye, ifite imiryango isa n'umweru, isakaje amabati atandukanye. Imbere yiyo nzu hari ibyatsi bitaga pasiparume, inyuma yoyo nzu hari ibiti by'amashamba bimeze neza, babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Inzu yubatse neza ishakakaje amabati asa n'umutuku, yubakishije amatafari ahiye, amadirisha yayo asize amarangi asa n'umweru, ikindi kandi ikikijwe n'indabyo, n'ibiti by'amoko atandukanye abantu basengeramo.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa n'umutuku, yubatse neza cyane, basengeramo, bakoreramo inama, ikindi kandi hari icyapa kigaragaza aho ariho, handitseho Kabgayi

Amazu yubatse mu buryo bugezweho ageretse gatatu yubakishije amatafari ahiye, afite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umuhondo. Kandi yometseho amakaro, imbere hayo mazu hari ibyatsi bimeze neza abantu bicaragamo, imbere yibyo byatsi hari umuhanda, hashinze n'amapoto, harimo amatara.

Amazu yubatse mu buryo bugezweho yubakishijwe amatafari ahiye, asize amarange atandukanye. Amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku, imbere y'ayo mazu hari icyapa kigaragaza ibikorerwamo, hirya yaho hari indabyo zimeze neza cyane.

Urusengero basengeramo rwubakishije amatafari ahiye rushakaje amabati asa n'umutuku . Imbere zayo hometseho amakaro. Rukikijwe n'ibishushanyo imbere z'ibyo bishushanyo hari ibiti bimeze neza . Hirya y'ibyo bishushanyo hari n'amazu n'amamodoka atandukanye.

Inzu yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye abantu baza kuhasengera ,abandi bahakorera inama ikindi kandi imbere y'u muryango hari abantu, kuminwa yabo hariho udupfukamunwa, umuryango umwe urafunguye undi urafunze.

Amazu yubatse mu buryo butandukanye, yubakishije amatafari ahiye, yubakijije amabati y'umweru ayandi yubakije amabati 'umutuku gafite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo akorerwagamo ibikorwa bitandukanye: basengeragamo, bacururizagamo hirya yazo hari amashyamba ameze neza cyane.

Abantu bahagaze bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, andi asa n'ubururu, umutuku, n'umweru. Bambara mu ijosi ikintu kigaragaza igikorwa bakora. Inyuma yabo hari amazu yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye afite amarangi atandukanye, inzugi zisa n'umutuku, asakaje amabati asa n'umutuku.

Amazu yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati atukura, asize amarangi asa n'umweru. Akorerwamo imirimo itandukanye. Basengeramo, bacururizamo ndetse n'ibindi. Ikindi kandi hirya y'aho hateye ibyatsi abantu bicaramo.

Urujya n'uruza rw'abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, harimo abateze ibitambaro ku mitwe y'abo, imbere y'abo hari umuntu uhagaze uri kubabwira ibintu, abandi bateze amatwi ibyo bari kubabwira inyuma yabo hari ibiti.

Uruzankano rw'abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, bicara ku gisima imbere yabo hari umuntu uhagaze, wambara ku maso ye amarineti. Mu ntoki ze hari mikoro ari kuvuga, ikindi kandi hirya ye hari umuntu bita umudaso wambara imyenda zisa n'icyatsi, ku mutwe we hari ingofero isa n'icyatsi, hari abantu bari kwandika ikuvugwa muri iyo nama.

Abantu bicara ku ntebe zitandukanye, bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku, imbere yabo hari umuntu uhagaze ufite igitabo mu ntoki, hirya yabo hari inzu imeze neza cyane.

Abantu bicara ku ntebe zitandukanye, bambara imyenda ifite amabara atandukanye. Ku munwa wabo hariho ikintu twita agapfukamunwa. Imbere yabo hari umuntu uhagaze; imbere y’uwo muntu uhagaze hari imashini. Ikindi, kandi bari mu nyubako imeze neza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bicara bambara imyenda ifite amabara atandukanye, imbere yabo hari umuntu uhagaze uri kubabwira, ikindi kandi inyuma y'uwo muntu uhagaze hari abantu bari inyuma ye.

Abantu bicara ku ntebe zitandukanye, imbere yabo hari umuntu ufite mikoro abandi bafite ikaramu, bari kwandika ibiri kuvugirwa mu nama, hijya yabo hari imodoka isa n'umweru hari n'amazu yubatse mu buryo butandukanye, afite amarangi atandukanye asa n'umuhondo, andi afite amadirishya asa n'ubururu n'igiti kimeze neza cyane.

Umuhanda uparitseho imodoka isa n'umukara, uparitsemo amamoto afite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, hirya yaho, hari icyapa kigaragaza ibintu bicururizwa muri ayo mazu bitandukanye.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye， bitwara abantu bajya mu ngendo zitandukanye， ikindi kandi imodoka ifite amabara asa n'icyatsi，andi asa n'umweru， abamotari bambara amakasike ku mitwe yabo.

Ikibuga kinini cyane, kirimo imodoka zifite amabara atandukanye, harimo ay'umukara, harimo ay'umweru, abantu barazitega zikabajyana mu ngendo zitandukanye, kandi hirya yazo hari amazu ameze neza, yubatse mu buryo bugezweho, ateye amarange atandukanye.

Ikibuga kirimo imodoka z'amoko atandukanye zitwara abantu, bazitega zikabajyana mu ngendo zitandukanye, ikindi kandi imodoka ziba nziza, kuko zituma abantu bagera ahantu bagiye ku buryo bwihuse.

Umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga bitandukanye: imodoka ifite amabara asa n'umweru, amamoto afite amabara asa icyatsi, umutuku, ikindi kandi abamotari bambara ku mitwe ibintu bitaga kasike, bahetse abagenzi bajya hirya no hino.

Umuhanda urimo amagare afite amabara atandukanye, amwe ariho imifuka, andi barayashoreye, hirya yabo hari ibiti bimeze neza, babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije, bitanga imbaho abantu bakoramo intebe.

Ikibuga kinini cyane gihagazemo indege ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, yandikishijweho ibara risaga n'ubururu, hirya y'iyo ndege hari imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, hahagaze abantu bambara amajiri y'icyatsi kandi itwara abantu bajya mu ngendo zitandukanye.

Ikibuga kirimo imodoka ifite y'amabara atandukanye asa n'umweru ,andi asa n'umukara, hari abantu bahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bambaye amasaha ku kuboko, hirya y' iyo modoka hari moto ifite amabara atandukanye .

Ikibuga kinini kirimo imodoka n'abantu baheka ibikapu mu mugongo bajya gutega, bajya mu ngendo zitandukanye, harimo n'abanyeshuri bambaye imyenda y'impuzankano, hirya yabo hubatse amazu asize amarangi atandukanye.

Umuhanda urimo imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru, hirya y'iyo modoka hari inzu isakaje amabati y'umweru, hari icyapa kigaragaza ahantu aho ariho, ikindi kandi iba irimo abantu bajya hirya no hino.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, amagare abantu bicaramo baba bafite ubumuga, ikindi kandi hari ikinyabiziga gipakiye imizigo, imifuka isa n'umweru, hari abantu bahagaze bambara imyenda ifite amabara atandukanye, ikindi kandi hari amazu yubatse neza y'ubucuruzi, bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye biba bijyana abantu mu ngendo zitandukanye, ikindi kandi hari inzu zubatse neza cyane zigeretse bita etaje, zifite amabara atandukanye. Abamotari baba bambaye ku mitwe yabo amakasike.

Umuhanda urimo imodoka ifite, amabara y'umutuku andi asa n'umweru, ashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye. Hariho umuntu, hariho amavuta, inyuma y'iyo modoka hariho abantu bafite, ibikapu mu mugongo hirya yiyo modoka hari ibiti bimeze neza cyane.

Ikibuga kirimo amapave. Baparitsemo amagare abiri. Abantu barayafashe. Abandi bari kugenda. Ikindi kandi hirya yabo hari umutaka usa n'umuhondo. Hari n'intebe isa n'umweru. Hari inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Ifite amabara atandukanye.

Umuhanda bita kaburimbo urimo imodoka eshatu zifite amabara atandukanye amwe isa n'icyatsi indi isa n'umukara n'umweru, zijyana abantu ahantu hatandukanye ikindi kandi hirya yiyo modoka hari ibiti n'amapoto bijyana umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Ikibuga kirimo amamodoka afite amabara gatandukanye. Amwe asa n'umweru andi asa n'umukara. Imbere yayo mamodoka hari abantu bambaye imyenda itandukanye. Hirya y'iyo modoka hari umutaka usa n'umuhondo abantu baza kuziteka zikabajyana mu ngendo zitandukanye.

Ikibuga kirimo imodoka zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru andi asa n'icyatsi, hari abantu bahagaze, abandi bari kugenda. Imbere y'iyo modoka hari inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, hariho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo. Ikindi kandi imodoka zijyana abantu mu ngendo zitandukanye.

Umuhanda wigitaka , uparikamo amamodoka atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara , hijya gato hari imitaka itandukanye , umwe usa n'umuhondo , uwundi usa n'umweru, inyuma yazo hari amazu bubatse neza mu buryo bumeze neza. Bwubakishije amatafari ahiye asakaje amabati y'ubururu imbere y'izo modoka hari umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bagenda n'amaguru yabo abandi bagenda ku magare n'ibindi.

Ikibuga giparikwamo amamoto n'amamodoka bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, ikindi kandi bitwara abagenzi bajya hirya no hino, mu ngendo zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, n'umukara imbere yabo bantu hari ibikoresho bita amabase, bayifashisha bafuriramo, bogerezamo ibyombo, ikindi kandi ku minwa yabo hari ibikoresho bita udupfukamunwa, inyuma yabo hari imodoka.

Ikibuga kirimo imodoka z'amoko atandukanye, zimwe zisa n'umweru, izindi zisa n'umuhondo, zijyana abantu mu ngendo zitandukanye, ikindi kandi hari na moto zitwara abantu, abamotari baba ku mitwe yabo bambara kasike.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri imwe itwara abantu indi itwara imizigo. harimo n'amagare atwara ndetse n'abantu bari kugenda n'amaguru yabo bajya mu ngendo zitandukanye hirya yaho gateye amashyamba.

Ikibuga giparitsemo amamoto menshi cyane kiriho abantu bambaraga imyenda ifite amabara gatandukanye, amamoto afite amabara asa n'umuhondo, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umweru bambaraga ku mitwe, ibintu bitaga kasike.

Umuhanda urimo imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu ayandi asa n'umweru, itwaye imizigo igiye itandukanye. Ikindi kandi abantu baba bazitumye ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo zigezeyo iyo mizigo.

Ikibuga kinini cyane kirimo imodoka y'amoko atandukanye, harimo abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, harimo abafite ibikapu ku bitugu, ikindi kandi abantu baraza bazitega zibajyana mu ngendo zitandukanye.

Umuhanda urimo abantu benshi cyane bafite ibikapu ku rutugu, inyuma yabo hari imodoka zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru, imbere y'iyo modoka hari umuntu wambaye ijire wazamuye ukuboko, hirya y'iyo modoka hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga giteyemo ibyatsi, harimo ikintu k'ikizeru cyubakishije ibiti bita imbaho, imbere harimo irangi risa n'ubururu, bakoreramo imyitozo ngororamubiri, hirya yacyo hateye ibiti bisa neza, ndetse n'indabyo.

Ikibuga kinini cyane kirimo umuntu wambara imyenda ifite amabara gatandukanye, inkweto zisa n'umukara amagisi asa n'umutuku ,umupira usa n'umutuku , ikabutura isa n'umukara . Yarasukishije inyuma y'iwe hari icyapa cyandikishije amabara asa n'umweru ikindi kandi ari muri siporo . Siporo ni nziza kuko ituma umuntu agorora ingingo z'umubiri.

Abakinnyi b'abakobwa bambara imyenda ya siporo isa n'ubururu, abandi bambara isa n'umuhondo, baba biziritse ibintu ku mavi, ikindi kandi siporo igira akamaro kuko igorora imibiri y'abantu.

Abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo ayandi asa n'ubururu, hariho ibendera ry'u Rwanda mu ntoki bafashe ibintu, inyuma yabo hari intebe isize amarange asa n'umweru, inyuma y'izo ntebe hari abantu bahagaze bambara imyenda ifite amabara atandukanye.

Umuhanda uririmo imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, hari abantu bari kureba bambara imyenda ifite amabara atandukanye, iri kugendera hejuru.

Umuhanda urimo abantu bagenda ku igare bakora kurusi, bambara imyenda ifite amabara atandukanye, harimo asa n'umuhondo, ubururu, umweru, inyuma yabo hari imodoka ifite amabara atandukanye, afite amabara y'ubururu, andi y'umuhondo, andi y'umutuku, ruguru yabo hari abantu bari kureba.

Abakinnyi b'umupira w'amaboko bari gukina, bambara imyenda itandukanye, bambara ubururu, abandi bambara umweru, imbere yabo hari amatante y'umweru arimo abantu bari kureba ukuntu bakina, hirya yabo hari umusifuzi uri gusifura ukuntu bakina.

Abantu bita abakinnyi bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umuhondo n'umukara. Bari gukina umupira, ikindi kandi inyuma yabo hari abantu bita abafana bari kureba uko bari gukina.

Umuhanda urimo imodoka ifite amabara atandukanye, ifite amabara y'ubururu, andi y'icyatsi andi y'umweru, andi y'umuhondo. Imbere y'iyo modoka hari ihema ririmo abantu bari kuyireba, imodoka iri kugendera mu muhanda umeze nabi.

Abantu babiri bambara amarinete ku maso yabo, mu ntoki zabo hari umupira usa n'umuhondo wanditseho umubare makumyabiri na gatanu, inyuma yabo hari amapantaro, baro, inkweto, abantu baraza bakagura, abacuruzi barabagurisha ku giciro kimeze neza.

Abakinnyi bakina umupira w'amaboko bambaye imyenda itandukanye, mu kibuga afite amabara atandukanye ,amwe asa n'ubururu ,ayandi asa n'umweru. Umupira w'amaboko ni umupira ufasha neza cyane, ugorora umubiri bigatuma umuntu amererwa neza cyane.

Abakinnyi bakina umupira w'amaboko bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara, bazamuye amaboko bagiye gufata baro, ikindi kandi inyuma y'abo hari abantu bicaye bari kureba.

Ikibuga kimeze neza cyane bacyitaho bagikorera isuku, kirimo amabara asa n'umuhondo hirya y'icyo kibuga hari inyubako imeze neza cyane ifite amarangi atandukanye, imbere y'iyo nyubako hari indabyo zimeze neza inyuma y'iyo nyubako hari ibiti bimeze neza babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Umuhanda urimo umuntu ari ku igare yambara imyenda ifite amabara atandukanye kamwe gasa n'umutuku undi usa n'umukara. Yambara ku mutwe ibintu bita kasike ikindi kandi hirya yiwe hari abantu bahagaze bari kumureba, hari n'uwambaye imyenda isa n'umukara bita umu...

umuhanda urimo abantu benshi cyane bambara imyenda ifite amabara atandukanye umwe usa icyatsi, undi usa ubururu, uwundi usa n'umuhondo n'umweru, bambara ku mitwe ibintu bita kasike, hirya hari abantu bari kureba.

Umuntu bita umukinnyi w'umupira wambara imyenda ifite amabara atandukanye, ikaba isa n'umukara iyindi isa n'umweru mu makipe ye harimo balo, agiye gutera ikindi kandi aba ari muri siporo ,siporo ni nziza cyane ituma agorora ingingo z'umubiri.

Abantu benshi cyane bambara imyenda ifite y'amabara gatandukanye: harimo asa icyatsi, harimo asa umuhondo, umukara, umweru. Hijya yaho hari televiziyo irimo abantu bari muri siporo, iba neza kuko itumaga umuntu agorora ingingo z'umubiri.

Ikibuga bakiniramo gifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umutu, andi asa n'ubururu. Abakinnyi bambaye imyenda itandukanye. Bambara imyenda y'umweru, abandi bakambara icyatsi. Abafana bicara mu ntebe zimeze neza zitandukanye, bambara imyenda igiye itandukanye.

Abakinnyi bambara imyenda ifite amabara atandukanye: amwe asa n'umukara andi asa n'ubururu, hirya ya bo hari umuntu uri gusifura, bari kuzamura amaboko batera umupira, inyuma yabo hari abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku andi asa n'umukara, bicara ku ntebe zitandukanye.

Akayira baba barakoze neza, bashyiramo amapave, hirya yaho haba hari umuyoboro w'amazi, uba uriho sima, isa n'umweru, andi asa n'umukara, hameze neza cyane.

Umuhanda urimo amabuye umeze nabi abantu bahagararamo bari kureba, ikindi kandi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, inyuma y'abo bantu hari amazu afite amabara atandukanye, hariho n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwamo.